Umubyeyi wambaye ikanzu ifite ibara risa n'umweru, afite isaha ku kaboko ari mu nyubako icurizwamo imiti itandukanye ivura indwara z'abantu.

Inyubako yubatswe neza isakaye, imbere yayo hariho ibinyabiziga bitandukanye, iruhande rwayo ku busitani hariho abantu batandukanye: abambaye imyenda ifite ibara risa n'umweru ndetse n'abambaye imyenda ifite ibara risa n'umukara.

Inyubako yagenewe kuvurigwamo abantu barwaye, imbere yayo hakaba hahagaze abagabo bambaye imyenda miremire ifite ibara risa n'umweru ndetse n'abandi bantu bambaye ibindi bifite andi mabara.

Umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'ubururu, akaba ahagaze iruhande rw'ahabitswe imiti, yifashishwa ivura indwara z'abantu zitandukanye.

Igiti cyo mu bwoko bw'umuzabibu gitewe ku butaka buriho ibyatsi, iruhande hariho umuhanda ndetse n'inyubako isakajwe amabati, abanyeshuri bigiramo.

Inzu yubakishijwe amatafari abumbwe mu byondo, hejuru ikaba iriho ibiti imbere yayo hakaba hariho amabuye, ndetse n'ubutaka bwamezeho ibyatsi bitandukanye.

Ubwoko bw'igiti cyitwa umusave cyifashishwa mu kugwanya isuri ku mirima y'abantu bahingamo iyo gitewe kigakura kibazwamo imbaho bifashisha mu kubaka.

Ibiti by'amoko atandukanye byameze ku butaka hariho n'ibyatsi, iruhande hari umugenderaniro abantu banyuramo, ukikijweho n'ishyamba ritewemo ibiti birebire.

Ubutaka bwamezeho ibyatsi burimo n'amabuye, buteweho igihingwa cyitwa beterave, kifashishwa bakora umutobe wo kunywa, ufasha abana kutagira imirire mibi.

Umurima wamezemo amoko atandukanye y'ubwatsi, bukenerwa mu ubworozi bwororerwa mu rugo, kugira ngo ziburye zibashe gutanga umusaruro.

Ubusitani butewemo ibiti bitandukanye, harimo n'ibyatsi cyimeza, iruhande hariho inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, inasakaje amabati.

Ubutaka buriho amabuye ndetse bwamezemo n'ibyatsi, harimo n'igiti cyitwa ikibonobono kifasha ubutaka gutuma butagerwaho isuri.